Icyapa kinini kiri ahantu cyamamaza uburyo wafata ubwishingizi butandukanye ndetse n'inzu nini yagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye aribyo ubucuruzi ndetse n'amacumbi .

Urukuta ushobora kujyaho ukaba wabona uburyo wabonamo ubwishingizi, harimo kubona uburyo washinganisha inzu, ndetse n'ibindi bikorwa, harimo n'imodoka ndetse n'undi mutungo utimukanwa.

Icyapa kiri ku ruhande rw'ahanyura ibinyabiziga kuruhande rwa kaburimbo hakaba hari icyapa kigaragaza uburyo wafata ubwishingizi bw'ibintu byawe bigiye bitandukanye hakaba hariho n'uburyo bushobora gukomekana.

Uburyo bwashyizweho bwo kwamamaza, ubushobora guhitamo ubwo ari bwo bwose uka wafata ubwishingizi ku birebana n'ibiribwa ndetse n'ibihingwa bishobora kwangirika mu gihe biri gukura.

Icyapa kigaragaza uburyo bw'ubwishingizi wakwifashisha mu gihe uhuye n'impanuka no kuvunika ibirenge cyangwa kujya kwa muganga bitunguranye ndetse no kuba wahura n'ubundi burwayi.

Icyapa kinini kirekire gishinzwe ku cyuma kiriho umuntu uri kwamamaza uburyo wafata ubwishingizi mu gihe cyose uhuye n'ibibazo mu minsi yo kubaka.

Uburyo impanuka zishobora kuba utabyiteguye ukaba wakenera uburyo bwo kubona ubwishingizi akaba ari icyapa cyamamaza ubwishingizi wahabwa.

Urupapuro ruriho kwamamaza uburyo wafata ubwishingizi mu buryo bugiye butandukanye, hakaba hariho nimero za telefone zabo ndetse n'imbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho.

Uburyo ikigo gishinzwe icungamutungo mu Rwanda cyagennye kuko wabona amakuru ku buryo wagiye ukoresha amafaranga uyohereza cyangwa uyakira bigahita bikworoheye ukoresheje telefoni.

Urutonde cyangwa amakuru y'ukuntu wagiye ubitsa amafaranga mu buryo butandukanye yaba kuyabiguza, kuyohereza, kuyishyura cyangwa kuyakira, ibyo byose bigaragarira kuri uru rutonde.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo cy'icungamutungo, aho ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga, binyuze kuri telefoni cyangwa ukoresheje mudasobwa. Utavuye aho uri cyangwa utagiye gutonda umurongo ku mashami yabo.

Uburyo ikigo gishinzwe icungamutungo cyagennye bwo kuba wabona amakuru utavuye aho uri cyangwa utageze ku cyicaro cyabo, hakaba ari uburyo bwo gukoresha telefoni cyangwa mudasobwa ukaba wabona amakuru.

Urubuga rwateguwe n'ikigo gishinzwe itumanaho, aho ushobora kureba ukuntu wagiye wakira amafaranga ndetse unohereza amafaranga ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa kuri murandasi.

Iduka ryagenewe gucururizwamo ibintu byo kwambara harimo imyenda, amapantaro, amakanzu y'abagore ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'amashakoshi ndetse n'ahantu bagiye babika ibicuruzwa byabo.

Iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibirungo, inyanya ndetse n'ibinyobwa hakaba harimo n'umugore wambaye agapira k'umukara ndetse n'ingofero y'umweru uri kwakira umuguzi waje amugana.

Iduka ushobora kugeramo ukaba wagura imyenda igiye itandukanye y'abagabo harimo amakositimu, amakaruvati ndetse n'amashati hamwe n'inkweto zigiye zifunze arizo bakunze kwita nshongo.

Ibikorwa bigaragaza abantu bihangiye umurimo harimo gukora utuntu tw'imitako yo ku maboko tugiye dutandukanye harimo utw'amabara y'ubururu, umuhondo, umweru ndetse n'umutuku ndetse biri ku nkoko byose bisa nkaho biteretse hasi.

Ahantu hari utubati twinshi ndetse n'ahantu hari imyanya myinshi harimo imisego icuruzwa ndetse ikaba iteretse ahantu hasi hejuru y'amakaro n'utubati tugiye turimo imyanya myinshi.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imyambaro hamwe n'ibindi bintu byose bijyanye no kwirimbisha akaba ari umugore ufite ishati uri ahantu hacururiza ingofero ndetse n'indi ibintu byose.

Ikigo kibifite mu nshingano kugurisha imodoka haba izitwara abagenzi ndetse n'iy'umuntu bwite hakaba hari imodoka ihagaze ahantu yabugenewe igenewe kugurishwa hasashe amapave.

Ahantu habugenewe ho guhagarika imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye harimo iz'umukara z'umweru ndetse n'andi mabara menshi ndetse hakaba hasi yaho hari ubwoko bw'amakaro buhagize.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira aho ushobora kukigana ukaba wabona ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ushobora kugura harimo ikigurishwa miliyoni cumi n'ebyiri, hakaba hari ho nimero ushobora kubabona.

Ahantu habugenewe, ushobora kugana mu gihe cyose wifuza kugura imodoka zo mu bwoko butandukanye, yaba zitwara abantu benshi, n'izitwara abantu bake b'umuryango.

Ikigo gifite mu nshingano kugurisha imodoka z'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'ikinyabiziga gihagaze imbere yabo bisa nk'aho bagurishije ndetse uwakiguze akaba ari iruhande rwacyo.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa toyota giteye irangi rijya gusa umweru, mo imbere hakaba harimo imyanya itanu harimo uw'umuyobozi ndetse n'indi myanya ine igenewe abagenzi, iruhande rwayo hakaba hari ibindi binyabiziga na byo biri mu bwoko bumwe.

Ahantu hahagaze imodoka zigurishwa hakaba hari ikigo cyishingiye umurimo wo kugurisha imodoka ziri mu bwoko bugiye butandukanye harimo nk'ubwitwa bimuwe.

Ikigo cyabugenewe, kibifite mu nshingano gucuruza ibinyabiziga by'ubwoko bitandukanye. Bikaba bihagaze ahantu bisa nk'aho bicururizwa, kandi ikinyabiziga kigizwe n'amabara y'umutuku, ndetse n'amapine y'umukara.

Ahantu bakirira abaguzi baje kugura imodoka ndetse bakavugana n'igiciro na ba nyiri ukugurisha ndetse baba bahagaze inyuma y'ameza ndetse n'ibyapa bigiye biri ku ruhande, bigaragaza ubwoko bw'imodoka baje kugura.

Ibinyabiziga bine byose byagenewe gutwara abantu bihagaze ahantu ku mapave kandi hakaba biri kugurishwa biri mu cyanya cyagenewe kugurishirizamo ibinyabiziga.

Ibinyabiziga bishinzwe gutwara imizigo ndetse n'ibintu bihagaze ahantu hamwe kimwe kiri gusa nkaho kigenda mu muhanda iburyo bw'ahandi hari ibindi binyabiziga bishinzwe gukora imihanda.

Ikigo cyiyeguriye gucuruza ibinyabiziga bishinzwe gutwara imizigo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, harimo gutwara ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi, hakaba hari abantu batatu bisa nk'aho umwe uri hagati ari we waguze ikinyabiziga.

Ibinyabiziga bibiri biri kujya mu cyerekezo kimwe bihagaze ahantu hamwe byagenewe kugurishwa n'ikigo kibifitiye ububasha. Bikaba biri ahantu mu nzu habugenewe hatanyagirwa kandi hari akayira k'amazi.

Abakozi babiri b'abagore bicaye imbere ya mudasobwa ndetse n'imashini ishinzwe kubara amafaranga bose bakaba bategereje abakiriya bagana ikigo gishinzwe icungamutungo.

Ikigo gishinzwe icungamutungo ariryo rishinzwe kubara amafaranga, akaba ari amafaranga atari amanyarwanda, akaba hari n'imashini ishinzwe kuyabara mu buryo bwihuse nta kwibeshya.

Amafaranga makuru arimo iya bitanu nyinshi zibumbiye hamwe; akoreshwa mu Rwanda, akaba ari umuntu usa nk'aho ari umugabo uyafite mu biganza bye kandi ateretse ku meza.

Amafaranga yakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda akaba yarakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda hakaba hashushanyijeho insina iriho igitoki ndetse n'amakoma yacyo.

Amafaranga yakoreshwaga ahambere ariyo amafaranga ijana yazanywe n'abafaransa, akaba ariyo yakoreshwaga. Hakaza n'andi yakoreshwaga n'abongereza, ariyo amafaranga ijana; yose ajyiye ariho ibintu by'ibishushanyo bitandukanye.

Ahantu habugenewe, ikigo gishinzwe amafaranga gitangira ubufasha ku bantu bose bagannye icyo kigo, hakaba hari abantu bashinzwe kwakira abakiriya babo, ndetse n'abatanga amafaranga aho ngaho.

Iduka yiyeguriye gucuruza amata ndetse n'ibindi bintu bijyana no kunywa ndetse no kurya n'ibintu by'amakeke, hakaba hari umuntu uri kumwe uri kubakira ndetse n'abana babiri bari kurya no kunywa.

Iduka ryabugenewe rishinzwe kugurisha imbuto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo imineke ndetse n'izindi mbuto zigiye zifunze mu tuntu tw'dusahane hakaba turi mu twetajeri ahantu henshi.

Icyapa kigaragaza iduka ushobora kuguriramo amata ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'ibyo kunywa haba harimo amazi, ji ndetse na shokora n'ibindi byose bijyanye no kunywa.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira bwo gucuruza ibicuruzwa byo kuribwa urugero nka keke, amandazi ndetse n'imigati akaba zipfunyitse mu bipapuro byabugenewe bifite isuku.

Ahantu ushobora kugana ubaye ukeneye amata yose hakaba hari n'imashini zagenewe kubika amata mu buryo bwiza kandi ko hari n'abakiriya baje kuyagura harimo uyu mugore uhagaze.

Ibiraha bikozwe mu bwoko bw'ifarini ,amavuta ibitunguru biteretse kw'isiniya ahagana ku meza ,iruhande rwayo hakaba hari ibindi biteretse ku meza bitaratekwa, iruhande rwayo nanone hakaba hari ibipapuro.

Iduka rigurishirizwamo ibintu byose bijyanye n'ibinyobwa cyane cyane amata, akaba ari abantu batatu bicaye harimo abahungu babiri ndetse n'umukobwa bari kunywa amata mu bikombe birebire bicaye iruhande rw'imashini ikonjesha.

Urukuta cyangwa urubuga rwashyizweho ushobora gusura mu gihe cyose ushaka gukora ihererekanya ry'amafaranga yaba ushaka kwakira cyangwa kohererezwa amafaranga.

Uburyo ikigo gishinzwe itumanaho ndetse no kohereza no koherezwa amafaranga binyuze kuri mudasobwa cyangwa kuri telefone cyashyizeho bwo koherezanya amafaranga.

Uburyo bwashyizweho n'abantu bihangira imirimo, ushobora gukoresha wishyura amafaranga mu buryo bugiye butandukanye kandi akaba yamugeraho utagize ikindi kibazo, akoresheje telefoni cyangwa murandasi.

Ikigo gishinzwe ibaruramutungo, kikaba kiri kumenyekanisha uburyo wakoresha kugira ngo wishyure cyangwa wakire amafaranga, binyuze kuri murandasi yaba ukoresheje mudasobwa cyangwa telefone.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe guhererekanya amafaranga, ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga binyuze kuri murandasi akaba ari uburyo ushobora gukoresha ukoresheje mudasobwa cyangwa ikindi gikoresho cya telefone igendanwa.

Uburyo ikigo gishinzwe icungamutungo ry'amafaranga cyashyizeho bwo kugira ngo abakiriya babo bazajye bohereza amafaranga cyangwa bakire amafaranga binyuze kuri terefone hatabayeho ingendo.

Urupapuro ushobora guhabwa mu bigo by'imari cyangwa mu bigo bishinzwe gutanga amafaranga, bikwereka uburyo wagiye uyakoresha, haba mu kuyohereza cyangwa mu kuyakira cyangwa mu kuyagura, mu kuyakoresha ugura ibindi bintu.

Urupapuro uhabwa iyo umaze kwishyura imisoro hamwe n'ibindi bintu byose bigendana n'ibyo ikigo cya leta gishinzwe iby'imisoro iyo umaze kwishyura kiguhereza.

Urupapuro uhabwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro aricyo cya leta, kiguhereza iyo wamajije kwishyura umusoro uwo ari wo wose yaba uworoheje cyangwa umusoro ku nyungu.

Urupapuro uhabwa n'ikigo gishinzwe ibaruramusoro, ari cyo uhabwa iyo umaze kwishyura umusoro cyangwa inyemezabwishyu uhabwa nyuma yo kwishyura ibintu runaka.

Urupapuro rwagenewe ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kiguhereza ari uko ntadeni na rimwe barimo yerekeranye n'imisoro ndetse n'ibijyanye no gusora amafaranga y'igihugu.

Urupapuro uhabwa muri banki buri uko wagiye ubikuza amafaranga yawe n'uko wagiye uyabitsa muri konti yawe, uko urwo rupapuro ukaba urahabwa na banki wagiye kubitsa no kubikuzamo.

Urupapuro rurondora uburyo wagiye wishyura amafaranga y'umusoro, uhabwa n'ikigo gishinzwe umusoro mu Rwanda, iyo umaze kwishyura amafaranga yose wasabwaga kwishyura.

Urupapuro ruriho urutonde rw'ukuntu amafaranga yawe wagiye uyakoresha cyangwa uyohereza cyangwa uyabitsa kuri konti yawe.

Amafaranga ari mu mbumbe yose agizwe n'inoti ya bitanu, akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda; akaba ari umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'isaha uyafite mu ntoki.

Uburyo leta yashyizeho bwo gukoresha amafaranga akozwe mu mpapuro ndetse akaba ari amafaranga magana atanu ndetse n'igihumbi zikoreshwa mu gihugu cy'u Buhinde, akaba ari umugabo uyafite ari kuyerekana.

Amafaranga agiye atandukanye, afite ingano zitandukanye, adakoreshwa mu Rwanda ahubwo akoreshwa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, harimo n'iby'abaturanyi bo muri Afurika.

Urutonde rw'uburyo amafaranga y'amanyamahanga avunjishwa mu manyarwanda, harimo ibihugu bigiye bitandukanye: Amerika, Ubwongereza, Erope, n'ahandi hagiye hatandukanye.

Amafaranga atari amanyarwanda akoreshwa mu bindi bihugu harimo nk'Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, akaba ari amafaranga ijana ashushanyijeho umugabo w'imisatsi miremire.

Umuntu uri kwandika abika amakuru y'ikoreshwamutungo ry'amafaranga ndetse n'ubwoko bw'amafaranga menshi ari aho ngaho, byose ari kubyandika ku rupapuro, ahantu bigomba kubikwa.

Icyapa kigaragaza ahantu ushobora kuvunjishiriza amafaranga y'abanyamahanga ndetse n'abantu babakira baba barimo mu imbere ndetse n'abantu b'ibitsina gore bahagaze inyuma y'ibirahure, bari kubaza uko amafaranga bayavunjisha.

Ikigo gishinzwe imari n'ubukungu, ahantu ushobora gukoresha uvunjisha amafaranga yawe atari amanyarwanda y'amanyamahanga, ushaka ko uyabona mu bundi buryo.

Ahantu habugenewe ushobora gutanga amafaranga, ayo ari yose bakakuvunjira ayo mu gihugu ugiyemo, urugero nk'ahari amafaranga y' Amanyamerika ari kuvunjishwa.

Mudasobwa itetse ku kabati yegereye imashini icapa impapuro hamwe na kamera ishinzwe gucunga umutekano aho hantu hamwe n'urugi ruri ku rukuta.

Ahantu habugenewe, hakirirwa abantu bose baje gushaka amafaranga atari amanyarwanda cyangwa y'amanyarwanda, baje kuvunjisha ayo yandi, mu bindi bihugu by'abanyamahanga.

Ahantu habugenewe ushobora gukoresha uvunjisha amafaranga y'abanyamahanga ndetse hakaba hari n'uburyo bwinshi bagenda bavunjamo amafaranga, akaba ari umuryango hejuru hariho icyapa ndetse hariho n'ibirahuri kuri iyo miryango.

Inzu y'ahantu hagenewe ushobora kuvunjisha amafaranga yawe cyangwa ugatanga amafaranga y'amanyamahanga bakaguhereza amanyarwanda cyangwa ugatanga amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga hari n'ibyapa biharanga.

Ahantu hateguwe ushobora kugana uramutse ushaka ibikoresho byo mu nzu birimo nk'akabati, ameza y'ahantu barira ndetse n'intebe zahantu barira ndetse n'intebe wicaraho n'ameza yayo.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira bwo gukora ibikoresho bikoreshwa mu nzu, ari byo ameza afite ikirahure hejuru ndetse n'intebe zigiye ziyikikije.

Ikigo cyabiherewe uburenganzira bwo gukora ibikoresho byo mu nzu, hakubiyemo intebe zifite imisego yo kwegamaho ndetse n'ameza yose anateye amarangi y'umweru ndetse n'ibitanda byo kuryamaho.

Ameza y'imbaho asize irangi, ari ahantu hejuru y'amakaro ,ndetse ikaba yaragenewe kwicarwaho n'abantu bane, ndetse n'aho kurira imbere yabo.

Umuntu wihangiye imirimo yo gukora intebe ndetse no kugurisha amatora ndetse n'utubati tugiye dutandukanye, dukozwe mu mbahoho zitandukanye, hakaba hari n'ibindi by'imisego ndetse n'ameza byiza.

Inzu yabugenewe bakodesha by'akanya gato bakayibamo, hakaba hari n'ahantu ushobora kuruhukira ndetse n'ibindi bikorwa remezo ari byo inzu zigiye ziri ku mpande hamwe n'ubusitani burimo ibiti birebire.

Igice cy'ahantu hagenewe gukodeshwa, ho kuba by'akanya gato, hakaba hari ahantu ushobora kogera ndetse n'ahantu ushobora kuruhukira, umaze gukora siporo yo koga ndetse naho ushobora kwicara wikinga izuba.

Amazu yagenewe amacumbi ushobora gukodesha by'akanya gato ukararamo kandi hagiye hatatse ibiti ndetse n'ahantu ho kwicara ushobora kuganira n'abantu ndetse n'amazu bararamo.

Igikorwaremezo ari cyo inzu yagenewe ibyo kubamo by'akanya gatoya ikaba iriruhande rw'ahantu ushobora kogera mu gihe wumva ushaka gukora siporo ndetse n'ahantu ushobora kwicara uri kuruhuka.

Inzu yagenewe amacumbi ushobora gukodesha by'akanya gato ukaba wahakorera ibintu byinshi bitandukanye harimo kuba wateka ibintu bigiye bitandukanye harimo n'icyayi kiri mu gikombe munsi y'isahani.

Mudasobwa ndetse n'imashini icapa impapuro, umuntu ari KUyikoresha yohereza cyangwa yakira ubutumwa ku wundi muntu hanze yaho hakaba hari imodoka iri mu gipangu ahantu runaka.

Ibikorwaremezo aricyo inzu yo guturamo igihe cy'akanya gatoya, mo mu imbere harimo ibintu bitandukanye harimo intebe, indabo, amarido ndetse n'imiryango isohoka ndetse harimo n'amakaro mu nzu.

Hamwe mu hantu hagenewe mu gihe uri kuruhuka mu gihe wakodesheje inzu yo guturamo igihe gitoya hakaba hari ahantu wakwicara uruhuka ndetse n'imitaka igukingira izuba mu gihe ryaje.

Ahantu hagenewe amacumbi, ushobora gukodeha by'akanya gato, hakaba hari n'ahantu, ushobora kwicara mu gihe uri gukora nka siporo yo koga, ndetse mu gihe wananiwe ukaba wakwicara ukaruhuka, hari n'intebe, ndetse n'ahantu hitegeye umugi.

Icyumba kinini giteye amarangi y'umweru, ahagana ku ruhande hakaba hari igitanda cyishashe n'amashuka y'umweru, ndetse imbere y'igitanda hari inyakira amashusho na yo yometse ku rukuta. Hakaba hari n'intebe, ndetse n'amadirishya manini agaragaza, yinjiza n'urumuri.

Ubusitani burimo icyapa kigaragaza ahantu amacumbi ari ndetse n'ibiti n'amafoto ashinze hejuru y'icyapa ndetse n'inyuma hakaba hari inzu yagenewemo kuraramo ndetse n'ibindi.

Igikorwa remezo ari cyo inzu ndende igizwe n'amagorofa menshi, akaba ari inzu yabugenewe, yagenewe amacumbi ushobora gucumbika by'akanya gatoya, hakaba hari n'ahantu ushobora kuruhukira cyangwa unakora siporo muri pisine.

Kimwe mu gice kigizwe n'ahantu ushobora gukodesha by'akanya gatoya, ukaba wahaba by'igihe gitoya hari ahantu ushobora kuruhukira mu gihe waje gukora siporo yo koga ndetse hakaba hari n'imitaka ishinzwe kukurinda izuba.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, mudasobwa, impapuro ndetse n'ameza n'imitako igiye iri ku ruhande. Hakaba ari aho bakirira abantu bagannye ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi.

Abantu babiri; uw'umugore ndetse n'uw'mugabo bicaye barebana, bose bicaye ku ntebe, kandi mo hagati yabo harimo ameza, ndetse bigaragara nk'aho bari kuganira ku buryo umwe yahabwa ubwishingizi.

Inzu yagenewe gukorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, ikaba igeretse inshuro eshatu, hakaba hariho icyapa kigaragaza ahantu ushobora gufatira ubwishingizi, ndetse n'ikigo gishinzwe icungamutungo.

Icyapa kiranga ahantu ndetse n'amazina y'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo, hakaba ari nimero ngendanwa ushobora kubahamagararaho ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga wababonaho ukabona ibindi bisobanuro.

Umuryango wagenewe kwinjiramo mu gihe uje gusaba ubwishingizi ku bijyanye n'imitungo yawe ndetse n'ahantu ushobora gusohokera, ndetse n'ahantu ushobora kwicara mu gihe waba utegereje abayobozi bayo.

Ahantu habugenewe hashobora kuganirira n'abashinzwe kwakira bakora mu kigo gishinzwe inguzanyo ndetse imbere yaho hari mudasobwa n'amamashini ashinzwe gusaka n'ibindi.

Icyapa kiri ahantu imbere y'urugi rushinzwe kunyurwamo n'abantu kigaragaza uburyo abantu bashobora kuba bahabwa ibintu bijyanye n'ubwishingizi bwa sonarwa.

Igikorwa remezo cya leta ari cyo inzu yo gukoreramo ibintu bigiye bitandukanye, harimo gucururizamo ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko hari umuryango ukorerwamo ibijyanye no guhabwa ubwishingizi ku mutungo.

Ahantu habugenewe n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo ushobora kunyura winjira ujya kuvugana n'abayobozi ukaba mwavugana uburyo wahabwa inguzanyo ndetse n'ibindi bintu bijyanye nayo ukeneye ibindi bisobanuro.

Amarembo ushobora kunyuramo winjira ahantu ushobora guhabwa ubufasha, aho wabona ubwishingizi bw'ibintu ibyo aribyo byose, yaba ubutaka ndetse n'amazu, bwose ukaba wabona ubwishingizi, hari n'icyapa kibigaragaza.

Inyubako igenewe gukorerwamo ibintu byinshi, ubucuruzi, ndetse n'ahantu ushobora guhabwa ubufasha bwo kubona ubwishingizi bwo gushinganisha ibintu byawe.

Igikorwa remezo cya Leta ari cyo inzu y'ahantu hakorerwamo ubufasha bwo kuba wafata ubwishingizi bw'ibintu runaka harimo inzu, ubutaka ndetse n'amasambu ushobora kuba wafatira ubwishingizi.

Amarembo yabugenewe ushobora kunyuramo winjira ahantu hatangirwa serivise z'uburyo ushobora gufata ubwishingizi ndetse imbere yaho hakaba hari abantu bashinzwe gutanga izindi serivise zo kubikura no kubitsa amafaranga ndetse hejuru yaho hakaba hari n'ibyapa biherekana neza.

Ikigo kibifite mu nshingano kugurisha ibinyabiziga, aho ushobora gufata ikinyabiziga kimwe, ukaba wacyishyura mu buryo bugiye butandukanye, harimo kwishyurwa, ushobora no gutangirira ku mafaranga makeya ukagenda wishyura gake gake.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe icungamutungo, aho ushobora kukigana kikaba cyaguhereza amakuru yose ushaka ku bintu byerekeranye n'inguzanyo hamwe n'ukuntu wazibona, hakaba hariho n'urukuta rwabo ushobora kubasura ukaba wabibona.

Uburyo ikigo gishinzwe icungamutungo cyagennye, ushobora gusura urubuga nkoranyambaga rwabo, ukabasha kuba wabona ibisobanuro byerekeranye n'ukuntu wabona inguzanyo bikoroheye kandi hariho na terefone zabo ushobora kubabonaho.

Amaduka agenewe gutanga inguzanyo haba mu iduka rya mbere n'irya kabiri hakaba hariho icyapa kiranga amerekezo y'ahantu ibyo bikorwa remezo bikorera.

Icyapa kigaragaza ukuntu ushobora kubona inguzanyo ukabasha kuba wakora ibintu byinshi bitandukanye hakaba hariho nimero zabo ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zabo wababonaho.

Uburyo bugiye butandukanye ushobora gusabamo inguzanyo, haba uciye nko kuri murandasi yawe ukoresheje mudasobwa, ukabandikira ku nkuta zabo zigiye zitandukanye, ushobora guhabwa inguzanyo cyangwa ibindi bisobanuro ku bigendanye na yo.

Abamama barenze batandatu bihangiye umurimo wo kuboha uduseke kandi bakaba bose bafite icyo bigejejeho, bahagaze ku murongo kandi bari ahantu hatatse neza n'inyuma hateye amarangi.

Ahantu leta yateganyije ushobora guhahira ibintu bigiye bitandukanye, kandi hahurirwa abantu benshi harimo n'ibinyabiziga hakaba hari icyapa kigaragaza ikindi kigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda.

Isoko ryashyizweho na leta rigizwe n'Ibikorwa Remezo ari byo inzu ndetse n'ama etaje agiye ayikikije, hakaba hari n'ibinyabiziga bigiye biri ku mpande biri kugenda mu byerekezo bitandukanye ndetse n'abantu b'ikivunge.

Ahantu habugenewe ushobora gusanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'umwihariko imbuto y'imyembe, hakaba hari abagore babiri, umwe ari gucuruza undi ari guhabwa se ubufasha bwo guhabwa ibyo akeneye.

Ahantu habugenewe hakozwe n'abaturage, aho ushobora gusanga ibicuruzwa harimo ibiribwa ndetse n'amatungo magufi hakaba hari umuntu w'igitsina gore uri kugurisha ibiryo byo kuribwa.

Ahantu leta yagenye ho gucururiza ibintu bigiye bitandukanye, hahurirwa n'abantu b'ingeri zose hakaba ari n'inzu ya etaje igeretse ndetse n'amasinga y'amashanyarazi akitwara imiriro ayavanamo ajyana ayandi.

Igikorwaremezo ari cyo inyubako ndende igenewe gucururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda, ibiribwa, ndetse n'ibindi bintu byose, ariryo ryitwa isoko ry'inkundamahoro.

Isoko ryabugenewe ushobora gusangamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, cyane cyane amagi ari mu bwoko bw'amapondezi, hakaba hari umuntu uri kuyagurisha ari imbere yabo, ndetse ni babiri, harimo abagore.

Akazu kubatswe n'ikigo gishinzwe iby'itumanaho, hakaba hatangirwamo ubufasha bwo kumenya uko amafaranga yawe yagiye yoherezwa cyangwa uyakira cyangwa uyakoresha mu buryo butandukanye.

Ahantu hahuriye n'abantu b'ingeri zitandukanye bose bisa nkaho bari gushaka ubufasha bw'ikigo gishinzwe itumanaho ndetse n'ihererekanywa ry'amafaranga, bakaba bose bari gushakayo ubufasha.

Ahantu habugenewe ikigo cy'itumanaho cyageneye kujya hakirirwa abantu b'ingeri zose haba abagore abagabo ndetse n'abakiriya bose babagannye, bakaba ariho bakirira abantu bafite ibibazo byabo bakabikemura.

Ikigo gishinzwe iby'itumanaho no kohereza cyangwa koherezwa amafaranga hariho icyapa kigaragaza amazina yayo ndetse n'ahantu ushobora kubisanga.

Uburyo bwo kwishyura amafaranga ukoresheje telefone buyuze mu kigo cya emutiyeni buroroshye uyu muntu ari kwishyura amafaranga akoresheje kode aho batangira esanse.

Uburyo bwateganyijwe n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, bwo guhereza abantu bagiye bitwara neza amashimwe harimo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga.

Ahantu habugenewe nk'ikigo gishinzwe itumanaho aho cyakirarira abakiriya babo kikaba cyabaha serivisi zo kubitsa cyangwa kubikura cyangwa gukora ibindi bintu byose bijyana n'itumanaho ryaho.

Uburyo ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cyagennye bwo kwakira abakiriya babo binyuze ku mashami ndetse n'abantu babafasha babahereza ubufasha butandukanye, harimo ubwo kohereza no koherezwa amafaranga n'ubwo gukora indi simukadi nshyashya.

Ahantu habugenewe ikigo gishinzwe itumanaho gishobora kugurishiriza amatelefoni n'ibindi bikoresho byose bikenerwa bijyana n'itumanaho hagati aho.

Akazu kubatswe n'ikigo kibifite mu nshingano gucuruza itumanaho ndetse hakaba hari n'umuguzi ushaka ubufasha bwo kohereza cyangwa koherezwa amafaranga kuri terefoni.

Ahantu hateguwe n'ikigo gishinzwe iby'itumanaho ushobora kuza ukabaza ikibazo cyawe, cyangwa bakagufasha kumenya uko konti yawe ikoreshwa ukaba wanahagura ibindi bicuruzwa baba bafite urugero nka terefone ngendanwa.

Uburyo ushobora gukoresha ukaba wasura urubuga, ukaba wanaguriraho ibintu bigiye bitandukanye haba ibikoresho byo mu nzu amavalisi ibikombe ndetse n'imyenda byose bikaba byanakugeraho.

Ahantu habugenewe ho gucururiza ibintu ku rubuga ndetse no kuri murandasi ushobora guhurira n'abantu batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero nk'ibicuruzwa abakobwa bajya bakoresha bimakiya.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe gucururiza kuri enterinete, aho gishobora kugurisha ibintu bigiye bitandukanye urugero harimo nk'ibiribwa, bakaba banabikuzanira ahantu ukoresheje telefoni igendanwa cyangwa murandasi.

Icyapa kigaragaza urubuga ushobora gusura ukaba waguraho inkweto kandi bakazikugezaho utavuye aho uri, unyuze kuri murandasi, ukoresheje mudasobwa bakabikugezaho.

Uburyo bwashyizweho bushobora guhaha ibiribwa ndetse n'ibintu byose ushobora gukenera mu gikoni ukabasha kuba wabihaha unyuze kuri murandasi ,cyangwa ukoresheje telefone ngendanwa . Cyangwa ukabandikira ukoresheje imbuga nkoranyambaga zabo zatanzwe aho.

Umukozi ushinzwe kugeza ibintu harimo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho ku bantu batandukanye.

Uburyo bwagenwe bwo kugura ibintu bakabikuzanira aho utuye biciye mu binyabiziga bitandukanye ushobora kuba wabiguriye nko kuri murandasti ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa.

Uburyo abantu bacururiza kuri interineti bwateguwe aho ushobora gusura urukuta rwabo ukaba waguraho ibintu bigiye bitandukanye kandi bakabasha kuba babikugereza aho uri bitabaye ngombwa ko ugenda.

Uburyo bwashyizweho na rwiyemezamirimo ushaka gucururiza ibintu kuri murandasi aho ushobora gusura urubuga rwaho ukaba wagura ibikoresho bigiye bitandukanye harimo n'amavuta akoreshwa mu mutwe ndetse n'ibitambaro.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe ubwikorezi aribwo bwo kugeza ku bicuruzwa bigiye bitandukanye ku bantu bibereye mu rugo hatabayeho ingendo nyinshi, hakaba hari ikinyabiziga kigejeje imizigo ku bantu bayitumye.

Urubuga rwashyizweho n'umuntu ushaka gucururiza kuri murandasi, akaba ari uburyo bwiza ushobora gukoresha mu gihe cyose utifuza ingendo za hato na hato. Hakaba hariho ibicuruzwa bitandukanye.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yabugenewe yo guturwamo n'abantu, ikaba ikikijwe n'ibirahure ndetse n'igipangu gifite mu muryango w'umukara ndetse n'iruhande rwaho hakaba hari ibiti ndetse n'imbere y'icyo gipangu, hakaba hari umuhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Imbuga ngari igenewe guhagarikamo ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, ndetse n'iruhande rwayo, hakaba hari inzu yabugenewe yo kuraramo, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye n'aho kwicara.

Inzu igurishwa, iri ahantu mu kibanza, inyuma y'igipangu gikozwe na ferabeto ndetse n'inzu yagenewe guturwamo, iriho amadirishya n'inzugi ndetse yubatswe mu matafari yo mu bwoko bwa funyo, hakaba hanasizeho n'amarangi kuri korotire yaho.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yagenewe kubamo ikaba igizwe n'ahantu hashobora kuba ari nka salo ishobora kuba igizwe n'ahantu amatara ndetse n'amakaro ari hasi n'imiryango yo kwinjiramo ndetse n'amadirishya.

Icyumba kinini, giteye amarangi, harimo ahantu habugenewe ho gukatira ibintu, ndetse n'ameza ateretseho imbuto zitandukanye. Ndetse n'ahantu hagenewe gutekerwa ibintu batunganyije ahandi hantu.

Inzu yafotowe igenewe guturwamo iri ahantu hagenewe kugurishwa, hakaba hariho uburyo inzu izagurishwa ndetse n'amafaranga yayo ndetse n'ukuntu inzu iteye hariho amarangi, amadirishya ndetse n'inzugi.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye amarinete, ishati n'ipantaro n'inkweto z'umukara. Uri kuranga inzu igenewe guturwamo, ifite amaro ndetse n'imiryango myiza ndetse n'ibyuma biyikikije ku ruhande.

Inzu itatse neza ikaba ifite amakaro ahagana hanze ndetse n'imireko myiza iteye amarangi ndetse n'amarangi meza ashishikaje n'amakaro hasi, ikaba iri kugurishwa iri ahagana i Kanombe i Kigali.

Umuntu w'umugabo uhagaze imbere y'ibikorwa remezo arimo yamamaza cyangwa aranga inzu iri kugurishwa, kandi nziza iteye amarange n'ibirahuri byiza.

Ahantu hari ibibanza bigurishwa ndetse kandi bikaba bigaragara yuko ari ibibanza byasijijwe bifite umwimerere.

Icyapa kimanitse ku rugi kigaragaza uburyo ushobora gukoresha bukoroheye ukaba wabona ikinyabiziga kikuvana hamwe kikujyana ahandi cyangwa ukaba wakodesha ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Inzu yabugenewe yo guhahiramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye yaba ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho byose yaba ibyo mu gikoni ndetse n'ibyo muri salo, hakaba hari n'ahantu ushobora kunyura igihe umajije kugura ibikoresho ukishyura.

Iduka ryagenewe gucururizwamo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, harimo n'amatara, ndetse n'ibindi bintu byose ushobora kwifashisha ukeneye urumuri. Hakaba hari umuntu wicaye imbere ya mudasobwa ye, ari gushyiraho amakuru y'ingenzi.

Icyapa kiranga isoko ushobora guhahiraho ibintu bigiye bitandukanye, kiri ahantu iruhande rw'akayira abanyamaguru bagenderamo ndetse n'umuhanda wa kaburimbo n'amazu ari ku ruhande rwo hino rw'amazu akeneye gucururizwamo.

Ahantu habugenewe kugurirwa ibintu bigiye bitandukanye, rikaba ari iduka, hejuru yaho hari icyapa, ndetse munsi y'icyapa hakaba hari ahantu binjirira kugira ngo ugere mu iduka. Bakaba bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye.

Ahantu hanini hagenewe ibikorwa by'ubucuruzi ikaba ari inzu igeretse ifite amgorofa atandukanye hakaba hakorerwamo ibintu bitandukanye haba abacuruza imyenda ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye .

Ahantu habugenewe, ushobora gusanga ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nk'igikoresho cy'inzitiramibu, ushobora kugurirayo, hakaba hari n'ubwoko bwinshi bw'amavuta ushobora kugura.

Ahantu abantu banyura bavuye guhaha bakishyura amafaranga ndetse hagiye hari n'abakozi bicaye imbere y'amamashini ashinzwe kubarisha amafaranga abantu bakonsomye.

Ahantu hagiye hari ibicuruzwa bitandukanye kandi ushobora kugurira, hakaba hari n'abantu bagiye batandukanye, yaba abirabura ndetse n'abera, hakaba hari n'ibikapu ushobora gutwaramo utuntu dutandukanye ndetse n'umuntu uri kubigurisha ku ruhande.

Isoko ryagenewe guhahirirwamo ibiryo ndetse n'imyenda, akaba ari umukobwa uri kugenda mu nzira yabugenewe n'imbere ye hakaba hari abandi bantu b'amoko atandukanye n'amatara hejuru yabo.

Ahantu ushobora guhahira ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiribwa ndetse n'ibindi, akaba ari ahantu ushobora no kwishyurira amafaranga, ndetse nkuko bamwe muri bo bari kubikora kuri iyi foto hari n'amamashini yabugenewe.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abamama bose bakoze itsinda bishigira ikimina cyabo kugira ngo bajye batezanya imbere hariho abamama bafite agakayi gashinzwe kubarura abaje mu kimina.

Uburyo leta y'u Rwanda yateganyije bw'ubwisungane mu kwivuza, ari bwo mituweri ushobora gukoresha kwa muganga ndetse n'umunyarwanda uwa ari we wese ashobora kwishyura amafaranga ibihumbi bitatu akaba yabubona.

Ikirangantego gikoreshwa kwa muganga nka, nk'ubwishingizi berekana bakaba bakuvura ari cyo mituweli cyo gukorera ahantu hamwe bikaba bigufasha mu ubwishingizi bwo kwivuza.

Ahantu hahuriwe n'abantu benshi, bari kugirwa inama y'uko bakwizigamira, harimo abatwara ibinyabiziga bitwarwa n'amapine abiri ndetse n'abantu b'ingeri zose bari aho bateze amatwi.

Uburyo bwiza leta yashyizeho ari bwo ubwisungane bwa mituweli mu kwivuza bwashyizweho na leta bukaba bufasha abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye harimo n'aba bantu bicaye ahantu kwa muganga bategereje ubufasha.

Inzu ifite umuryango ushobora kwinjiramo ugiye mu kigo nderabuzima, hakaba hari abantu bategereje; bashaka kwinjiramo bakeneye serivisi. Urugero nk'iz'ubuvuzi, kwitabwaho mu rugero runaka.

Ubufasha bwagenewe abaturage ari bwo bwo kuvurwa n'abaganga, hakaba hari umuturage uri imbere y'umuganga, uri kumubwira ikibazo afite ndetse kandi akanamwereka ubwishingizi akoresha ari bwo ubwisungane bwa mituweri, hakaba hari n'undi muganga w'umugore uri kwandika.

Isoko ryabugenewe ushobora guhahiramo buri kintu cyose ushaka harimo : ibiribwa ,ibinyobwa ndetse n'ibindi bintu byose bitaribwa. Hakaba hari n'akayira abanyamaguru banyuramo bavuye guhaha gakozwe mu makaro.

Ahantu ushobora kugurira ikawa ukabasha kuba wakishyura mu buryo butandukanye ari bwo bwo gukoresha ikoranabuhanga rya telefone igendanwa akava kuri telefone yawe akajya kuri konti y'undi muntu.

Akayira kubakishijwe n'amakaro kari ahantu mu isoko, kagiye gakikijwe n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye yaba ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba hari inzu yagenewe ubucuruzi.

Ahantu hateretse igikoresho gishinzwe gukonjesha ibicuruzwa harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo amata, fanta, amazi ndetse n'amaji agiye y'ubwoko butandukanye bikaba biteretse ahagana hasi hari amakara.

Ahantu hagenewe gucururizwa ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'ibyo kunywa, hakaba hari ibyuma bishinzwe gukonjesha ndetse n'utubati baterekaho ibicuruzwa.

Ahantu habugenewe gucururizwa ibintu bitandukanye, hakaba hari kugendera abantu benshi bari mu byerekezo bitandukanye, haba abatwaye utugare turimo ibyo baguze hakaba hari n'ibyapa birangisha ahantu umuntu ashobora kunyura bimworoheye.

Isoko rihurirwamo n'abantu benshi, ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, haba ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, ndetse n'amakayi. Hakaba hari utubati twabugenewe, ndetse n'ahantu duterekwa hose hari amakaro.

Ahantu hagenewe ibikorwa bitandukanye harimo cyane cyane iby'ubucuruzi bicuruzwa birimo ibyo kurya, ibyo kunywa, imigati ndetse n'ibyuma bikonjesha ibiryo.

Ahantu hagenewe gukorerwa ibikorwa by'ubucuruzi birimo kugurisha ibintu bigiye bitandukanye haba ibiryo, amakorogate ndetse n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa mu ngo z'abantu bikenerwa.